Ibyansi bibuganijemo amata n'ubuvido bw'umweru n'ubw'umutuku buri ahantu hasa umweru.

Ndabona indobo n'mandazi apfundikiye n'indi yubitse n'amata ari mu mashashi bita inyange.

Inoti y'ibihumbi icumi, ishushanyijeho ikibumbano cy'umuntu wicaye, iy'ibihumbi makumyabiri ishushanyijeho udusumbashyamba n'umutwe w'umuntu.

Inzu ikikijwe n'ubusitani bwiza bugizwe n'indabo, ibyatsi byiza cyane igeretse rimwe ...

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abantu benshi kandi bikaba bigaragara ko bambaye impuzankano y'akazi bakora aho bigaragara ko harimo abayobozi batandukanye bo mu nzego z'igihugu.

Ni inyubako, irimo abakozi, bicaye n'abahagaze, ubona ko bahuze, ku meza hariho, ibipapuro irangamuntu n'ibindi.

Moto n'abayobozi bayo bari mu muhanda n'imodoka n'abagenzi, n'inzu igeretse.

Ndabona ari mu isoko harimo abantu benshi, isoko ryubakiye ririmo inyanya, intoryi n'ameza bacururizaho, isha n'abaguzi.

Abantu benshi cyane aho bigaragara ko aho hantu hakorerwa ubucuruzi, bikaba bigaragara ko ku mpande hari akazu kabugenewe gakorerwamo na sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda. Ariyo mu ndimi z'amahanga bita MTN.

Abantu babiri, igitsina gore, gabo, imeza, intebe n'inzu, indabo, ibyatsi.

Inzu ifite amarange y'umweru ifite amatara ari kwaka, ifite n'ibyuma bikorotiriye ku muryango n'icyapa kigaragaza yuko igurishwa.

Ni inzu ifite amagorofa menshi cyane, ifite ibirahure by'umukara bitabona, ifite n'inzugi z'umukara, imbere yaho hari ibiti.

Ndabona inzu ifite irangi ry'umweru ifite ibirahure igeretse nkabona n'icyapa cyanditseho amagambo icyapa gisa umweru.

Ndabona inzu nziza cyane ifite amabati y'umweru ifite ibirahure bitabona, ifite utwuma imbere, yubatse neza ifite imbere murugo naho hashashemo amabuye.

Ndabona mu nzu iberamo ubucuruzi harimo abantu baje guhaha n'abagurisha hakaba mo n'imitako mur'iyo nzu.

Ndabona inzu irimo abantu bahagaze hari uwakira n'uwakirwa, my bakeneye ubufasha harimo ibyapa muri iyo abagenzi.